Uko ibigori bihingwa bacukura imyobo , itandukanye hanyuma , bagashyiramo ifumbire , hanyuma hakajya aho imbuto iyo zimaze kumera ibigori byigiye hejuru bimaze kuzana amababi bitangiye gusukirwa ushobora kongeraho ifumbire ry'imvaruganda kugira ngo ibigori byawe bishishe neza.

Ibigori iyo bimaze kumera, bimaze guca ingingo, hari ubwo udukoko tw'ibisimba bibyibasira, harimo na nkonka, aba ari ngombwa rero kubitera umuti, kugirango bikomeze bikure kandi bizatange umusaruro.

Ifumbire y'inka ni nziza cyane, ushobora kuyifumbiza umurima wawuhingamo ukera imyaka myinshi kandi myiza cyane.

Iyo utera ibigori ucukura imyobo ugashyiramo ifumbire. Wamara gushiramo ifumbire, ugashyiramo imbuto. Hanyuma bikamera, iyo bimaze kumera urabibagarira.

Imboga z'amashu ni imboga zikunda kwera mu Rwanda cyane cyane mu bishanga, kugira ngo zikure neza ni ngombwa kuzitera umuti.

Turashima Leta y'u Rwanda, muri gahunda yo kurwanya malariya, aho yashizeho gahunda yo kurwanya umubu, haterwa imiti mu byatsi, mu bihuru, n'ahandi hatandukanye.

Ifumbire ni ryiza cyane, kuko iyurifumbije imyaka, imyaka y'ibishyimbo, yaba amateke, yaba n'ibindi byose, ifumbire ni ryiza.

Ikiyaga cya kivu ni cyiza cyane harimo ibigwa. Mu mazi harimo amafi, e harimo ingona n'ibindi bintu bitandukanye biba mu mazi.

Ibyuzi bifite akamaro kanini cyane, hari ibyuzi bacukura ari ukugira ngo bororeremo amafi, hakaba n'ibyuzi bacukura kugira ngo bajye babona uko buhira imyaka, hakaba n'ibyo bacukura kugira ngo bahingemo umuceri.

Mu gutegura neza na byo biri mu bintu biryoshya ibiryo. Iyo ufashe iparato ugashyiraho isamake yokeje ku ruhande ugashyiraho indimu n'izindi mboga nka seleri usanga biryoshye kandi binogeye amaso.

Iparato iriho isamake iri mu isosi harimo imboga zitandukanye， harimo n'ibindi birungo biraryoshye.

Amafi yo mu bwoko bw'amasamake akunda kuboneka. Aboneka mu biyaga, ashobora no kuboneka mu nzuzi ndetse no mu nyanja.

Ifi yokeje iraryoha. Ifi iriho inyanya, sereri, yatetswe mu amavuta, iba imeze neza cyane.

Ubwato bufite akamaro kanini cyane kandi bukoreshwa mu ubujyo butandukanye, hari ubwato butwara abagenzi hari n'ubwato bakoresha bari kuroba amafi. Hanyuma ubwo bugatunga bene yo.

Ifi yokeje iraryoha cyane, kuyitegura ni ukuyishyira ku iparato hanyuma ukazana indimu cyangwa se ironji ukabishyira iruhande, ibyo bituma uburyohe bwiyongera.

Indyo yuzuye igizwe n'ibitera imbaraga umubiri ikaba igizwe n'ibyubaka umubiri ikaba igizwe n'ibirinda indwara mu birinda indwara harimo imboga ndetse n'amatunda naho mu byubaka umubiri harimo ibinyamisogwe naho mu bitera imbaraga umubiri harimo ibinyabijumba.

Hari ubwoko bw'amafi bumisha cyane, iyo amaze kuma barayacuruza. Ayo mafi, bashobora kuyateka mu isombe cyangwa se mu bindi bintu. Ayo mafi aba aryoshye cyane.

Kugira ngo wotse ifi neza ukenera imbabura, ugakenera amakara, hanyuma ugakenera inyanya ,ugakenera umunyu, ugakenera igitunguru ,nuko ibyo byose ukabikoresha icyo gihe ifi yawe iba imeze neza cyane kandi iryoshe.

Amafi yitwa isamake ni meza cyane. Araryoha kandi afitiye umubiri akamaro . Ashobora kuribwa atogosheje mu isupu yayo, ashobora kuribwa akaranze.

Ifi yokeje cyangwa se ikaranze mu mavuta iraryoha cyane. Iyi fi ushobora kuyitegura ushyize ku iparato hanyuma ukayirisha ifiriti ndetse ukaba wayirisha n'inyanya. Ibyo bintu byose bifitiye umubiri akamaro.

Isambaza ziraryoha cyane, zifitiye umubiri akamaro. Zishobora gutekwa zikiva mu mazi, zishobora gutekwa zumye, izo twakwita indagara.

Mu biribwa dufite mu rwanda habonekamo n'amakaroni, amakaroni nayo akaba aryoha cyane, ushobora kuyategura ku isahani hariho n'ifi, yabitetswe mu mazi cyangwa se yokeje, ibyo bintu iyo ubirishanye usanga biryoshye.

Ibiti by'intusi bifite akamaro kanini, bivamo imbaho, bivamo amakara, bivamo inkwi zo gucana.

Amashyamba ni kimwe mu bintu bifite akamaro gakomeye cyane kuko amashyamba arwanya isuri, amashyamba akurura imvura, amashyamba afitiye akamaro kanini abanyarwanda kuko bayabyazamo amafaranga haba mu kugurisha ibiti cyangwa se kuvanamo imbaho n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Igiti kinini cyane cyitwa umuvumu, cyaragandaye ku buryo abaturage bugamamo izuba cyangwa se imvura.

Ibiti by'intusi byitwa mayideni ni ibiti bikura cyane kandi bikagira amababi y'umweru. Ibiti bifite akamaro kanini cyane iyo biri hafi yinzu birinda umuyaga.

Imibyare yeraho ibitoki, irakura ikaba miremire ku buryo umuyaga iyo uhushe ishobora kuvunika ni ngombwa kuyitera inkingi kugira ngo ikomere.

Ubwatsi bwitwa urubingo, amatungo arabukunda cyane ,yaba amagufi yaba maremare arabukunda cyane kuko araburyohera.

Ibigori bikunda guhingwa mu Rwanda rwacu， kandi birahera cane. Ibigori iyo biri mu murima bigifite amababi atose， ibigori bishobora guhanyurwa bikaribwa bitetse.

Betarave ni igihingwa cyiza cyane kandi gikunda kwera aho wagihinga cyose cyakwera, ushobora kugitegura ukagihinga hafi y'urugo haba mu kadobo cyangwa se mu kijerekani waciye aho hose cyabasha kwera kandi gifitiye umubiri akamaro.

Iyo umaze gusarura ibigori, ufata bya biti by'ibigori ari byo bita ibigorigori, ukabitema ukabirambika hasi bikuma. Ushatse wabirunda bikavamo ifumbire cyangwa se ukabitwika ivu ukarikoresha.

Uko bahinga ibirayi. Bacukura imyobo, bagashiramo ifumbire, bamara gushiramo ifumbire, bagashiramo imbuto y'ibirayi, bagataba. Hanyuma nyuma y'ukwezi ibirayi biba byamaze kumera. Kandi nyuma y'amezi atatu biba bitangiye kuraba no kwera.

Ishyamba ni ryiza ridufitiye akamaro kanini. Rikurura imvura, ibiti biracanwa, rivamo imbaho, bivamo amakara, n'ibindi byinshi.

Voka ni igihingwa cyera mu Rwanda, iyo avoka ikuze hanyuma ikagira igihe cyo kwera imbuto zayo usanga ari nziza cyane.

Mu bujyo bwo kwiteza imbere usangamo abantu benshi bacuruza imboga zitandukanye, bagacuruza n'imbuto zitandukanye, mu mbuto twavuga nk'amaronji, mu mboga twavuga nk'inyanya.

Imyumbati y'imiribwa iraryoha cyane kandi ifite akamaro gakomeye cyane, haba ku mubiri haba ndetse no kuzana amafaranga, ushobora kuyifata ukayishyira ku gatebo ukajya kuyigurisha.

Uko icayi gisoromwa bazinduka kare cane mu gitondo, bakagenda baha amababi yo hejuru, hanyuma baba bambaye igitebo mu mugongo, bakagenda bajugunyamo ibibabi.

Intama za kizungu ni nziza cyane, kuko zigira ubwoya bwinshi cyane, barabukemura, bakabujyana mu nganda, hakavamo imyenda myinshi kandi itandukanye.

Ibihwagari ni kimwe mu bihingwa bihingwa mu Rwanda, barabihinga bikamera bikaba birebire kandi bikagira amababi magari, kandi bikagira indabyo z'umuhondo. Iyo uri kubyitegereza usanga nabwo ari byiza cyane.

Imbuto z'amatunda ninziza cyane. Zraribwa, zigira vitamini. Ushobora no kuzenga zikavamo umutobe mwiza cyane ukanyobwa.

Ibitunguru bifite akamaro gakomeye cyane, kuko biryoshya ibishyimbo. Ufata amavuta ugashyira ku ziko, ukayacamutsa, ugashiramo ibitunguru, hanyuma ugashiramo ibyo ushaka gutekamo. Ibyo biryo biba biryoshye cyane.

Uko batera ibigori. Urahinga, ugatabira, ugacukura imyobo, ugashyiramo ifumbire, ugashyiramo ibigori, ugataba, hanyuma ibigori iyo bimaze kumera bimaze kuzana amababi, urabibagarira, ukabisukira, ugashyiraho ifumbire.

Kugira ngo ingemye zawe zibe zimeze neza uzazitere zimeze neza ni uko ugenda ugafata imbuto ukazinariza ahantu hamwe maze igihe kikagera ukazigemura ukazishyira mu bihoho maze iyo umaze kuzishyira mu bihoho mu gihe runaka uragenda ukazihinga hanyuma ya shashi y'inyuma ukayivanaho ugatera zikamererwa neza.

Abakobwa n'abadamu biteje imbere, bacuruza imbuto z'amoko yose, bakanacuruza imboga z'amoko yose yaba amaronji, yaba imyembe n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Uko bahinga imbuto z'amatunda, bacukura imyobo bagashiramo ingemwe. Iyo zimaze gukura, bazishingirira ibiti imbuto zikazamukiraho.

Imyembe iraryoha cyane igira vitamine irinda indwara, imyembe ivamo ji kandi iryoshe cyane, imyembe banyirayo barayigurisha bakayivanamo amafaranga muri makeya imyembe ni myiza.

Inkoko ni nziza cyane kuko zitanga amagi, zigatanga ifumbire, kugira ngo inkoko zitere neza ni ngombwa kuziha ibiryo byiza kandi bikwiye.

Uko ibigori biterwa, gucukura imyobo k'umurongo ugashyiramo imbuto, iyo bimaze kumera bimaze kugira amababi, nibyiza kubibagara, ukongeraho n'ifumbire.

Igitoki cya poyo kivamo imineke myiza cyane. Iyo kigiye gushya, kirahisha kigasa n'umuhondo. Gifitiye umubiri akamaro, kivamo amafaranga agafasha mu muryango.

Umubiri wacu ukeneye imbuto n'imboga kugira ngo biwurinde indwara. Muri izo mbuto harimo imboga zigiye zitandukanye, harimo karoti, intogi, inyanya n'ibindi. Mu mbuto naho uhasangamo amaronji, marakuca ndetse n'ibinyomoro ,ndetse n'izindi zigiye zitandukanye.

Mu isoko haremyemo ibitoki byinshi, byazanywe n'amagare, abandi bantu benshi baje guhaha ibitoki kuko bifitiye akamaro kanini cyane umuryango.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo ni ubuhinzi bwiza cyane kandi butanga umusaruro cyane cyane ibishyimbo bikunda kuranda bita inyumba , ibyo bishyimbo kugira ngo byere neza ubishakira ibihembezo ukabishingirira maze bikazamuka icyo gihe usanga imisogwe iri kugenda inagana ku buryo iyo iri hafi kwera ushobora kuyisogora ukagenda ukarya igitonore.

Mu Rwanda hari ibihingwa by'amateke agiye atandukanye, hakabaho amateke y'amazungu aya mateke ni amateke meza cyane kuko iyo ageretswe ku bishyimbo, yaba ahase cyangwa se adahase usanga ari meza cyane kuko aba akomeye ashobora no gutogoswa, akavangwamo ibishyimbo bikeya, maze ukayakaranga rwose ugasanga araryoshye.

Ibigori iyo bibitswe nabi, bishobora kurwara uruhumbu. Bisaba kubishyira ahantu hari umucyo mwinshi.

Iyo ugiye guteka ibijumba ubanza wabironga mu mazi meza. Ushobora kubiteka byonyine, ushobora no kubiteka ku bishyimbo. Ibijumba bigeretse ku bishyimbo biraryoha cyane.

Ibijumba bifite agaciro gakomeye cyane, iyo ugiye mu isoko naho ubisangamo, ugasanga bagiye babishyira ku mabase atandukanye, hanyuma umukiriya yaza agahitamo ibyo akeneye.

Inyanya zihinzwe mu gishanga zimeze neza. Zirasasiwe zifite imbuto nyinshi nziza cyane.

Ni ngombwa yuko dutera amashyamba buri gihe kuko amashyamba afite akamaro kanini cyane, arwanya isuri kandi avamo ibiti bibasha kuzana amafaranga ndetse akavamo n'imbaho, kandi ibiti biracanwa.

Karoti, inyanya, ibitunguru, imboga z'amashu n'izindi mboga zigiye zitandukanye zose niko zigiye zifite umumaro. Wakongeraho imbuto nk'amaronji, imyembe, amapapayi n'ibindi bigiye bitandukanye na byo ugasanga ni byiza.

Isuka ifite akamaro kanini cyane kuko mu mucyo w'abanyarwanda barayihingisha. Kubona umuhinzi atashye cyangwa se agiye guhinga afite isuka ayitereye ku bitugu bitera ishema.

Pavuro ni imboga nziza cyane, ushobora kuziteka mu bishimbo, ushobora kuziteka mu nyama ushobora no kuziteka mu bindi bintu byose. Zifitiye akamaro umubiri kuko imboga zirinda umubiri indwara.

Iyo bimaze kumera, bimaze gutabika ni ngombwa y'uko bibagarwa hanyuma hakongerwamo ifumbire, ndetse bigaterwa umuti, kugira ngo bikomeze bishishe bimere neza.

Inyanya iyo zihinzwe neza zitanga umusaruro, kuzishiraho ifumbire, kuzitera umuti icyo gihe zigira imbuto nyinshi kandi nziza.

Uburyo bwiza bwo kwanika ibigori ni ukubivanaho amababi yabyo hanyuma ukabyanika. Iyo bimaze kuma ushobora kubihingura ukoresheje akamashini cyangwa se intoki.

Avoka z'imbangurirano ni nziza cyane. Kuzirya ku biryo ziraryoha zikorwamo n'amavuta meza cyane kandi atandukanye.

Ibirayi ni igihingwa gitanga umusaruro cyane, birasarurwa bigapakirwa mu mifuka bikajyanwa hijya no hino bikagurishwa amafaranga akaboneka.

Ibirayi biraryoha cyane ushobora gufata amazi, ukabironga ukabiteka utabihase, ibyo bita amaganda. Ushobora kubihata ukabitekana n'ibindi bintu, bigiye bitandukanye. Kandi ushobora no kubiteka mu mavuta.

iyo ugiye ku isoko uhasanga abantu bagiye batandukanye bamwe bazanye intama abandi ihene baje kugurisha ukahasanga n'abandi baje kugura bamwe bagiye korora abandi bagiye kuzibaga ngo bavanemo inyama.

Mu akarere k'amajyaruguru gakunda kwera imyumbati. Cyane cyane mu Gakenke imyumbati ikaba ari myiza cyane, itera imbaraga. N'amababi yayo ayo bita isombe na yo arariribwa.

Inyanya ni nziza cane, haba kuzijya muri salade, haba kuzirya zitetse, haba kuzirya mu nyama aho hose biraryoha.

Ibirayi ni byiza cyane, ushobora kubiteka ubihase, ushobora kubiteka bidahase, ushobora kubivanga n'ibishyimbo, ushobora kubiteka ifiriti. Ibirayi biraryoha cyane mu buryo bwose.

Mu Rwanda hera ibihaza byitwa amadegede. Amadegede iyo ugiye kuyateka, urayakata, ukayavanamo ibisate bitandukanye, hanyuma ukagereka ku bishyimbo. Hanyuma iyo bihiye kubirya biba biryoshye.

Imiteja itandukanye yaje kugurishwa, iri mu mifuka igera kuri itandatu, hari n'umunzani wo gupimisha. Nyirayo arabona amafaranga ajye kwiteza imbere.

Imbuto zitwa amatunda ni nziza cyane. Zikunda kwera mu majyaruguru, izi mbuto ziribwa zihishije zishobora no kuvamo ji iryoshye cyane.

Uko basoroma icayi basoroma amababi yaco bakagenda bayashyira mu bintu bateguye biri mu mugongo, hanyuma bamara gusoroma bakakijyana ahabugenewe.

Inkwavu n'amatungo magufi, yororerwa mu rugo. Inkwavu zikagira amatwi maremare, hakabaho inkwavu z'umukara, umweru n'andi mabara avanze.

Avoka mu Rwanda zirahera cyane ku buryo dusagurira n'amahanga. Iyo zigiye koherezwa hanze, hatunganywa ibikoresho byabugenewe hanyuma bakazipakiramo.

Ibigori bivanze n'amasaka biraryoha cyane haba kubinywamo igikoma, haba no kubiryamo umutsima.

Mu Rwanda hari imyembe itandukanye, hari imyenda ya dodo hari n'imyembe ifite imizi. Imyembe rero ifite akamaro gakomeye cyane kuko ibasha no gukorwamo ji.

Ibisheke ni byiza cyane bigira isukari ijyoshye. Abantu benshi bakunda kubicuruza bakavanamo amafaranga. Ibisheke bifite akamaro gakomeye cyane.

Avoka ni igihingwa gikunda kwera mu Rwanda. Kiraribwa ushize ku bishimbo, kurisha umukati, avoka ni igihingwa kivamo amavuta atandukanye.

Mu Rwanda hakunda kwera imyumbati y'ubwoko bwose, hari imyumbati y'imiribwa itekwa ku bishimbo cyangwa se yonyine, hari n'imyumbati isharira yitwa rutamisi ivamo umutsima cyangwa se ubugari.

Amatunda ni meza cyane afite umumaro ukomeye cyane. Kuko turayarya kandi ashobora gukorwamo umutobe waji. Amatunda afitiye akamaro abaturage kuko bashobora kuyagurisha, hakavamo amafaranga.

Uko bahinga voka, ufata urugemye rwa rundi ruri mu bihoho, hanyuma ukarutera, hanyuma iyo umaze kurutera rurakura, rugatabika, ni ngombwa kuza ukaruvanaho amashami atari ngombwa, kugira ngo voka yawe izabashe kwera neza.

Kugira ngo umusaruro w'ibigori uboneke, hagomba kubaho gufumbira ibigori bikiri bitoya; abaturage bafatanyije n'inzego z'umutekano, igisirikare cy'u Rwanda barimo bafumbira ibigori.

Imboga z'amashu uko zihingwa bacukura imyobo bagashyiramo ifumbire, hanyuma bagashyiramo ingemyi nazo bagemuye ahandi hantu bazinaje, izo ngemyi zirakura nizo zivamo amashu.

Imbuto bita gaperi ni imbuto nziza cyane kandi ziryoha, kugirango umenye ko zihishije, nuko zisa n'umuhondo hanyuma ukazaha ukazihekenya ukumva uko zijyoshe.

Imyumbati iyo yitaweho irera, bigatanga umusaruro mwinshi, ndetse uwayihinze ikamugirira akamaro, akayivanamo amafaranga, ndetse ikamutunga, ndetse n'umujyango w'iwe.

Mu Rwanda duhinga urusenda. Urusenda rufite akamaro kanini cyane, ruzana amafaranga rukorwamo n'ibindi bintu byinshi bitandukanye.

Imboga zifite akamaro gakomeye cyane. Imboga zitandukanye harimo karoti, harimo imiteja, harimo ibitunguru, harimo pavuro, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Ibirayi birera cyane nyuma y'amezi atatu iyo ugiye mu murima ushobora gufata igiti kimwe ukakirandura hanyuma ugasanga hariho ibirayi byinshi cyane icyo gihe rero uba ugomba kubikura hanyuma ukabivanamo amafaranga.

Kubera uburyo bwo gutubura insina bwabonetse, usanga iyo bukozwe neza bukitabwaho hanyuma bugafumbirwa butanga umusaruro, cyane aho usanga igitoki ari kirekire cyane kikabasha gupima ibiro byinshi, twavuga nk'ibitoki byo mu bwoko bwa fiya.

Ibigori bimeze neza cyane byagiyeho ifumbire bitanga umusaruro, bikera ibigori binini cyane, ku buryo kubigurisha bizana amafaranga menshi cyane.

Akamaro k'ibicuba ni ukujyana amata, kuyajyana ku ipikipiki cyangwa se kuyajyana ku magare hanyuma akagera iyo ajya afite umutekano.

Hari ubwo ibigori bihura n'ingorane iyo bimaze kumera, hanyuma nkonga ikarya amababi yabyo ico biba bisaba, ni ugutera umuti nkonga igapfa hanyuma ibigori bikabona kumererwa neza.

Hijya no hino mu gihugu uhasanga amatarasi y'indinganire, aya matarasi y'indinganire akaba afasha kurwanya isuri, kandi aya matarasi y'indinganire kuyahingamo ugasanga arera cyane.

Imyumbati iyo yitaweho kandi ubutaka bugafumbirwa neza, bitanga umusaruro mwinshi cyane. Igiti kimwe gishobora kuvaho ibiro byinshi cyane, kandi ibyo bikaba bizanira inyungu umuryango.

Amashaza ni meza kandi araryoha kandi akaba afitiye umumaro munini ushobora kuyatekana n'ibishyimbo, ushobora kuyateka yonyine, ushobora kuyakoramo isosi ukarishya ubugari, amashaza akora mu bujyo butandukanye.

Imboga zitandukanye n'imbuto nyinshi : indimu, amaronji, ibinyomoro, inyanya, imiteja, ibijumba n'ibindi byinshi.

Uko imbuto y'ibirayi iterwa: bacukura imyobo bagashyiramo ifumbire, bagashyiramo imbuto y'ibirayi bagataba, mu gihe kingana n'ukwezi ibirayi biba byamaze kumera.

Muri gahunda ya Leta yo kurwanya isuri, harimo guca amaterasi y'indinganire, harimo gucukura ibyobo bifata amazi, harimo gutera ibiti ndetse n'izindi gahunda zitandukanye.

Ni byiza gusarura ibigori byeze. Iyo ibigori biri mu murima urabireka bikuma hanyuma ukabisarura ukabisharika cyangwa se ukabyanika. Ibyo bigori biba ari byiza.

imbuto zitandukanye zifitiye umubiri akamaro, harimo inanasi, harimo imyembe, hakabamo amaronji, ndetse hakaba harimo n'indimu, izo mbuto zose zifitiye umubiri akamaro, kandi ushobora kuzirya wazihase, ukarya iby'imbere, ndetse ushobora no kuzengamo umutobe ari wo ji.

Umuntu wunamye akaba yiteze igitambaro mu mutwe, akaba afite agakapu mu mugongo, impande ye hakaba hari voka, bikaba bigaragara y'uko ari kuyikorera neza.

Icyayi ni cyiza cyane; usanga abaturage kibazanira amafaranga, yaba abagihinze, yaba n'abagisoroma. Kugisoroma ni ngombwa kuzinduka, hanyuma ukaba ufite ibintu uragenda ushiramo, ugenda waha, ugaterera muri bya bintu. Bamwe babishira mu mugongo, abandi bakabishira ku ruhande.

Hari ubwoko bw'ibijumba bitukura imbere bikaba ari umuhondo ubu bwoko ni bwiza cane kuko bufite za vitamine. Ibijumba bikaba bivamo amandazi, za keke ndetse bikaba bivamo n'imikati.

Ivoka zikunze kuba zifite ubuheri akenshi ziba ari imbangurirano, izi voka zikaryoha cyane, kandi izi voka zishobora kuvamo amavuta ndetse zikaba zavamo n'ubuto.

Kugera mu murima w'amatunda birashimisha cyane, usanga amatunda yubakiye, ari ku migozi, harimo amatunda ahishije n'adahishije.

Mu bujyo bwo gutubura imbuto y'ibirayi igomba gutegurwa neza, igategurirwa ahantu hameze neza kandi hasakaye, kandi hakaba hasakajwe ishashi ibengerana kugira ngo umucyo ugere ku birarayi.

Ibitunguru by'amababi byitwa puwalo ni ibitunguru bitagira ibijumba, bakunda kubiteka mu bishyimbo no mu nyama.

Muri iki gihe avoka ni igihingwa gikunzwe cyane kuko kiraribwa kandi kikazana n'amafaranga, ubu noneho muri iki gihe avoka zisigaye zijyanywa hanze aho hazishyira mu bintu bimeze nk'amakarito, hanyuma zikagenda hanze, zikazana amafaranga.

Amashaza y'urunyogwe araryoha cyane. Urunyogwe ni amashaza aba akiri mabisi yamara gutonorwa , ushobora kuyateka mu gitoki, wayateka no mu birayi, wayateka no mu bindi bintu byinshi bigiye bitandukanye.

Imiteja y'ibishimbo ni myiza cane. Iraryoha, haba kuyiteka mu bishimbo, haba kuyikaranga yonyine ukayirisha ibindi bintu iraryoha.

Ubwoko bw'amateke y'amanyabwenge ni bwiza cyane. Ushobora kuyateka ku bishyimbo, ushobora kuyateka yonyine, ushobora kuyahata cyangwa se ntuyahate.

Imineke, ibinyomoro, amaronji, indimu, inanasi ni imbuto ziryoha cyane kandi zifitiye umubiri akamaro, zikaba zongera vitamini kandi zikarinda indwara mu mubiri.

Ibitebo bitatu biriho imbuto: ibinyomoro, imineke, imyembe, amaronji n'ibase iriho imbuto n'imifuka iriho imineke, ibyo byose bifitiye umubiri akamaro.

Muri gahunda za leta harimo n'umuganda; aho abaturage bahurira hamwe bagafatanyiriza hamwe gukora igikorwa cyateguwe ,bakaganira bakungurana ibitekerezo.

Avoka ni nziza cyane ziraribwa uzishize ku biryo ,avoka zivamo amavuta yo guteka, zishobora no kuvamo amavuta yo kwisiga.

ibitoki n'ibiribwa abanyarwanda bakunda cyane usanga hirya no hino mu masoko bitaburamo usanga byavuye hirya no hino mu gihugu cyane cyane nk'uburasirazuba abantu rero barabikunda ugasanga bari kubigura kandi bikaba bifitiye umubiri akamaro.

Ingano ni igihingwa cyiza cyane cyera mu misozi miremire. Iyo cyeze baragisarura bakoresheje inyanjoro cyangwa se ikindi cyuma, hanyuma bakabikata, hanyuma bakagenda bakabyanika, bakazabihura, hakavamo imbuto nziza.

Amateke bita amabwayisi ni amateke meza cyane iyo urikese imbere haho usanga hatukura wariteka ku bishyimbo ugasanga riraryoshye cyane iyo waririye iri teke wumva utarireka nimeza rwose kandi afitiye umubiri akamaro.

Uko bahinga ibinyomoro, ucukura imyobo ugashyiramo ifumbire, hanyuma ukazana za ngemwi ziri mu bihoho, hanyuma ukavanaho amashashi, warangiza kuvanaho amashashi ugashyira mu byobo, hanyuma ugataba maze ibinyomoro byawe bigakura neza.

ibirayi iyo bimaze kwera birakurwa hanyuma bigapakirwa imifuka, hanyuma abantu bo hirya no hino, imodoka zitandukanye zikaza zikabipakira. Hanyuma bikajya kugurishwa hakavamo amafaranga. Ari ababihinga n'ababigura bose ugasanga birabatunze.

Ighaza kiraryoha. Cyane cyane iyo gitetswe ku bishyimbo, imbere gifite imbuto bita inzuzi. Na zo ziraribwa, zaba zumye ndetse zigakarangwa, rwose ziraryoha

Ibijumba bifite akamaro kanini cyane kuko bitera imbaraga. Ibijumba bikorwamo amandazi, bikorwamo imikati, bikorwamo biswi.

Imbuto zitwa imyembe ni imbuto nziza cyane ziryoha. Ziribwa zihishije, zivanywamo kandi na ji iryoshye cyane.

Isuka ni igikoresho abanyarwanda bakoresha bahinga, iyo bagiye guhinga bukeye hanyuma bagataha, bagenda bayitereye ku rutugu, bikaba byerekana ko bavuye guhinga kandi ko batashye.

Ibinyomoro ni imbuto zikunda kwera cyane mu Rwanda kandi zifitiye akamaro umubiri kandi ziryoha cyane mwo imbere usanga zisa n'umutuku uretse ko ibya kizungu byo usanga bisa n'umweru.

Imyumbati ya rutamisi irera cyane. Urayikura kuko ibashariye ukayinika mu mazi, nyuma y'iminsi runaka ukayivanamo ukayitonora ukayanika. Havamo ubugari buryoshye cyane.

Ibishyimbo by'imiteja birahingwa, bikamera, bigakura, bikaraba, bikazana imiteja; imiteja igasoromwa igatekwa. Ishobora no kugurishwa igatanga amafaranga.

Umurima ntangarugero ni mwiza, umurima urimo amashu, abantu baraza bakawigiraho byinshi, uko bahinga amashu kandi bakazitera umuti.

Ibigori iyo bimaze kumera, ugenda ubyicira. Kubyicira ni ukugenda uranduramo ibimeze nabi, hanyuma ibisigaye ugashyiraho ifumbire, hanyuma bigakura kandi bikaba bimeze neza.

Imbuto zifite akamaro gakomeye cane, iyo ushaka imbuto zitandukanye, ujya ku isoko uhasanga ibinyomoro, imyembe wotameruni, amaronji n'izindi zitandukanye.

Mu majyaruguru hakunda kwera ibirayi. Ibirayi barabikura, bakabipakira mu mifuka, hanyuma imodoka zikaza zikabijyana, zikabijyana hirya no hino mu gihugu, abaturage bakabihaha, hanyuma bikaribwa.

Ibitoki mu rwanda birera cyane, cyane cyane mu ntara y'iburasirazuba ibitoki bifite akamaro kanini cyane kuko biraryoha, ibitoki ushobora kubitekana n'ibishyimbo, cyangwag se ibindi bintu wateguye, ibitoki ushobora kubiteka biriho ibishishwa byabyo ibyo kera bitaga amagandu y'ibitoki.

Mu majyaruguru hafi y'ibirunga haba amabuye bita amakoro. Ahantu haba amakoro hakunda kwera. Umurima urimo amabuye y'amakoro uyatoranyamo hanyuma ukayarunda ku ruhande ugahinga aho hantu hakunda kwera.

Soya ni igihingwa gihingwa mu Rwanda kikaba gifite akamaro kanini cyane, soya ibasha kuvamo igikoma soya ibasha kuribwa ikaranze soya ibasha kuvangwa n'ibishyimbo soya ikoreshwa muri byinshi.

Ibishyimbo bihinzwe ku murongo usanga ari byiza cyane, kandi bigatanga umusaruro cyane cyane ibishyimbo by'imiteja, kuko iyo bari kuyahira biri ku murongo usanga byorohera abantu, hagati y'umurongo n'undi haba harimo intera ku buryo unyura hagati yabo.

Uko umuceri uhingwa. Bafata imbuto z'umuceri bakazishyira hamwe. Zamara kumera, zimaze kuba ingemwe, bakazirandura hanyuma bagategura aho kuzihinga, bagacukura, bagashiramo amazi za mbuto bakazihinga mu mazi.

Uko basarura amasaka bayaca amahundo, ya mahundo bakayanika, ya mahundo iyo amaze kuma, barayavungura hanyuma bakayagosora, inkumbi ikajya ukwayo n'amasaka agasigara.

Ubunyobwa iyo buhinzwe buramera bwamara kumera bukaraba. Iyo burabye ururabo ruracurama, rukareba hasi ukabusukirara; rwa rurabo ni rwo rubyara ubunyobwa bumeze nk'utujumba dutoya.

Ubunyobwa uko buhingwa, uracukura imyobo, ugashyiramo ifumbire, wamara gushyiramo ifumbire ugashyiramo imbuto, wamara gushyiramo imbuto ugataba, hanyuma ugategereza zikamera. Iyo zigeze igihe cyo kuraba ni bwo uzana itaka hanyuma ugasukira, ugatwikira rwa rurabo, urwo ni rwo rweraho ubunyobwa.

Ibishimbo by'umweru ni byiza cyane kubiteka usanga biryoshye kandi binogeye amaso, ushobora kubiteka ugashyiramo agasosi ugafata ubugari ukarisha.

Ibishyimbo biri amoko atandukanye, igihe umucuruzi abicuruza ni ngombwa kubishyira mu mifuka igiye itandukanye, kugira ngo umuguzi naza ahitemo ubwoko ashaka.

Abanyarwanda benshi, bakunze gutoranya imyaka bayitoranyamo imyanda, n'amabuye bakoresheje inkoko aribyo bita kugosora.

Indabyo zifite akamaro gakomeye cyane kuko iyo zihinze zikera za ndabyo urazisarura ukaba wazivanamo amafaranga, kandi indabyo zibasha gutegurwa mu gihe cy'ubukwe, ha ndetse yemwe indabyo zishobora gushyirwa no ku mva.

Amasaka mu Rwanda arahera cane iyo wayahinze mu gihe cy'amezi atandatu uragenda ukayaca amahundo hanyuma ukaza ukayanika iyo amaze kuma urayahura hanyuma hakavamo amasaka n'inkumbi ukwazo.

Ubunyobwa ni kimwe mu bihingwa bihingwa mu Rwanda, iyo bumaze kwera barabukura hanyuma bagasogora imisogwe nayo yerera mu butaka, hanyuma bakabwanika bukuma, iyo bumaze kuma barabutonora, usanga igishishwa gikomeye kandi igishishwa ugasanga kirimo intete ebyiri cyangwa se ishatu.

Ahantu hari ubutaka bwiza kandi buhingwamo ibishyimbo, usanga bwera cyane aho usanga abantu bagiye gusarura ugasanga benshi baratundisha amagare bajyana ibyo bishyimbo aho bigomba kwanikirwa, ugasanga umusaruro wabonetse.

Amashaza ni kimwe mu bihingwa byera mu Rwanda, byera kandi bigatanga umusaruro. Iyo akiri mu murima, imiteja yayo ushobora kuyaha hanyuma ugasomamamo urunyogwe, urunyogwe ukaruteka, ruba ruryoshye cyane.

Ibigori iyo bimaze gusarurwa bijyanwa mu buhumbikiro maze bikuma neza. Iyo umaze kuma neza barabitonora hanyuma bagatangira kuryamo imitsima n'ibikoma n'ibindi bitandukanye.

Ibishyimbo uko bisarurwa, birarandurwa bigasharikwa, hari n'ibishyimbo bisarurwa ari birebire bikavanwa ku biti ibyo babyita ibinyumba, byose birasharikwa iyo bimaze kuma, biramanurwa bigahurwa hanyuma hakavamo ibishyimbo byiza cyane.

Amashaza bita lantiye, ni amashaza aba asadaguritse kandi atonoye. Ni amashaza aryoha kandi agira vitamini. Aya mashaza ntabwo akunda kuboneka, wayasanga mu mpunzi ni ho akunda kuboneka.

Igihingwa cyitwa amasaka ni igihingwa cyera mu Rwanda. Iyo amasaka agiye kwera, bayaca amahundo, hanyuma bakayanika. Nyuma yaho, bakayahonyora, amasaka akajya ukwayo n'inkumbi ukwazo.

Ibishyimbo biri ku mufuka n'ibindi bishyimbo biri muri mironko (pulastike), ibindi bishyimbo biri hasi. Ibi byose bifitiye umubiri akamaro kuko byubaka umubiri.

Hirya no hino mu gihugu hubatswe ibihangari. Ibihangari ni inzu bashyiramo ibigori maze igihe kikagera bakabimanura, bakabihungura, hanyuma bakaba babigurisha cyangwa se bakajya kubirya.

Ibishyimbo biri amoko atandukanye hari ibishyimbo by'umweru, hari ibishyimbo bitukura, kandi nabyo ushobora kubicuruza hanyuma ukavanamo amafaranga.

Amashaza ari mu murima usanga ari meza cyane, iyo ageze igihe cyo kwera icyo twakwita urunyogwe, uragenda ugasoroma hanyuma ugashyira ku gatebo, cyangwa se ku kindi kintu hanyuma ukaza ukayatonora ukayateka.

Uko ubunyobwa busarurwa, iyo uri kureba ubunyobwa uba usanga hejuru bufite amababi, ya mababi urayafata ukayarandura, hanyuma hasi ukahasangaho utujumba turimo ubunyobwa. Utwo ngutwo ni two ujya kwanika, iyo bumaze kuma urabutonora hakavamo imbuto nziza kandi ziryoshye.

Hari ubwoko bw'ibishyimbo byitwa urunyumba nibishyimbo utera mu butaka bikamera maze bikazana urugoyi bikaba ngombwa yuko babishyingirira hanyuma ibishyimbo bikazamukiraho hanyuma bikazeraho imisogwe igihe kikagera imisogwe ikuma hanyuma ikavanwa ku biti bikagenda bigahurwa

Ibihwagari ni byiza cyane, iyo biri mu murima bigeze igihe cyo kuraba, kubireba aba ari byiza cyane biba bifite indabyo z'umuhondo.

Umusaza avuye gusarura ibishyimbo, Yabihambiriye mu mufuka ariwo kideye. Afite umuhoro mu ntoki ziwe. nagera mu rugo ibishyimbo arabyanika, kugirango bizume.

Ibishyimbo, umuceri byose biri mu ibase n'indobo, hakaba harimo ibishyimbo byose ni ibicuruzwa bizana amafaranga.

Ku isoko ni ho hantu wakura ibishyimbo bitandukanye, kuko uhasanga ibishyimbo by'amoko yose usanga bimwe bisutse hasi biri ku mifuka, ibindi biri ku nkoko ukahasanga n'umunzani wo gupimisha ibyo bishimbo.

Imiteja y'ibishyimbo iraryoha cyane, uko bayiteka ushobora gufata imiteja ukayivunagura, ukayishyira mu mavuta, hanyuma ugashiramo ubunyobwa cyangwa se inyanya, ushobora no gushiramo ibishyimbo.

Ubunyobwa ni igihingwa cyiza cyane kandi kiryoha. uko cyera baragihinga kikamera, hanyuma kikaraba, iyo kimaze kuraba, ururabo ruracurama hanyuma ukarutaba. Urwo nirwo ruvamo imbuto.

Ingurube ishobora kubyara ibyana icyenda ndetse no kujyana hejuru, kandi byose ibasha kubyonsa ikabikuza neza. Iyo bimaze gukura bishobora kugurishwa hakavamo amafaranga cyangwa se bikororoka bikabyara ibindi.

Inka z'inyarwanda zo hambere zagiraga amahembe manini. N'ubugubu hari aho zikiri, zifite amahembe manini kandi maremare.

Inkoko ni itungo rigufi ariko ryiza cyane. Inkoko zitanga amagi, inkoko ziraribwa, inkoko ziragurishwa zikabyara amafaranga.

Inka z'inyarwanda ni inka zigira amahembe maremare kandi ziba ziri mu moko atandukanye, ndetse no mu mabara atandukanye hakaba: umusengo, urwirungu, n'ubundi bwoko bugiye butandukanye.

Inkoko ni nziza zitera amagi, amagi ni meza ku bana, ku bakuru. Inkoko zigira inyama nziza ziryoha, inkoko zizana amafaranga.

Umwuga wo korora inkoko ni mwiza cyane kuko inkoko zitanga amagi, zigatanga n'inyama, ndetse zigatanga n'amafaranga. Ndetse yemwe zitanga n'ifumbire, iryo fumbire rikaba rifumbira imyaka neza cyane,

Inka y'imfirizone ni inka nziza cyane, ishobora gutanga umusaruro cyane iyo wayigaburiye neza. Ushobora kuyikama amata hejuru ya litiro cumi n'eshanu, hanyuma ikagutungana n'abawe n'umuryango.

Ubwoko bw'amatungo ni bwiza cyane. Yaba amagufi harimo ihene, harimo inkoko, ndetse igihe bigize ikibazo biba byiza iyo uhamagaye veterineri akaza akabisuzuma.

Ingurube ibwagura ibyana byinshi cyane ,ibyana i shobora kubwagura, ibyana bigera mu icumi ,umunani ,bitandatu ,kandi byose ikabyonsa.

Mu bihe byo hambere wasangaga abaturage biragirira ku misozi ,ubu ngubu leta ikaba yarabiciye inka zikaba zororerwa mu biraro mu bujyo bwo kwirinda indwara, keretse abantu bafite amafamu nabwo zikaguma muri iyo famu gusa.

Amagi y'inkoko afite akamaro kanini cyane. Ashobora kuribwa atetswe bujumba, ashobora kuribwamo umureti na wo uraryoha cyane.

Inka kugira ngo zitange umukamo mwiza zijye zitanga amata menshi, nuko ba veterineri baza bakazirindisha hanyuma bakazitera intanga, icyo gihe zigira amata menshi.

Inka zo hambere zabaga zifite amahembe manini kandi maremare. Na n'ubu hari aho zikiboneka.

Inyama zirakundwa, abanyarwanda bakunda kuzita ngo ni akaboga. Inyama zifitiye umubiri akamaro kanini cyane.

Inka ni itungo jyiza cane, niyo mpamvu rikwiye kwitabwaho haba mu buryo bw'isuku cyangwa se kureba ko ryaba ritagwaye. Ni ngombwa gutumira veterineri akaza akarireba yasanga rirwaye akaritera urushinge. Kandi ni ngombwa yuko rikorerwa isuku mu bujyo bwo kuritera umuti wica uburonda ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.

Mu Rwanda uhasanga inka z'amoko atandukanye, harimo Ifirizoni, ndetse n'Injerisi kandi uhasanga amafamu baziragiramo, maze zikagira amata meza kandi menshi.

Inka ni nziza cyane, ifite akamaro gakomeye cyane. Inka itanga :amata, itanga ifumbire, itanga amafaranga, itanga inyama, ifite umumaro mwinshi.

Inkoko ni itungo rigufi kandi ryororoka cyane kuko ritera amagi. Iyo inkoko yabonanye n'isake yayo, ayo magi irayararira hanyuma ikayaturaga hakavamo imishwi, nayo igakura igatanga amafaranga ndetse ikanaribwa.

Imbwa ni itungo ritaribwa ahubwo rishinzwe kurinda umutekano wo mu rugo, abakire benshi bakunda kuzifashisha, hari n'abandi baturage bakunda kuzikoresha mu guhiga ibindi bisimba, imbwa rero na yo ishobora kurwara hanyuma ikavurwa

Abaveterineri bo mu Rwanda bafite akamaro kanini cyane kuko badufasha kuvura amatungo. Igihe amatungo inka cyangwa se n'irindi tungo byafashwe ni ngombwa guhamagara veterineri akaza akakugira inama, cyangwa se byaba ngombwa akavura jya tungo.

Inyoni ifite ubuhanga bukomeye cyane. Ijya gushaka ibyatsi hirya no hino ikaza ikarika icyari mu giti. Uburyo ikiboha biba bikoranywe ubuhanga.

Intare ni inyamaswa yo mu ishyamba ifite imbaraga nyinshi cyane, ikaba itunzwe n' inyama, ikaba ihiga inyamaswa zitandukanye.

Ingagi ni kimwe mu mutungo u Rwanda rufite ukomeye cyane. Kuko ingagi zo mu birunga, abantu bajya kuzisura ndetse na ba mukerarugendo baturuka hijya no hino bazanywe no kuzisura, akazana amafaranga. Akagirira akamaro abaturage ndetse n'igihugu.

Inyoni burya zifite ubwenge. Urebye ukuntu ziyubakira icyari, zigatereramo amagi ,zigaturagiramo ibyana bigakura, zikajya kubihahira, usanga ari byiza cyane.

Mu Rwanda hakunda kuboneka ubwoko bw'inzoka butandukanye, zaba inzoka ntoya, zaba inzoka nini zaba inzoka z'inshira ndetse n'uruziramire, izo nzoka mu Rwanda zirahaba cyane.

Inuma ni ubwoko bw'inyoni bwiza cyane buboneka hose. Kera barayihigaga Abanyarwanda hanyuma bakayibaga bakayirya. Ubu ngubu hariho inuma ziba mu rugo zorerwa mu rugo, hakabaho n'inuma zo mu ishyamba.